Aba bantu, abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, imbere gato hakaba hari umupolisi wambaye imyenda ya buru barake, cyangwa se ubururu bwijimye. Hirya gato hakaba hari umusaza wambaye bote z'umukara na kositimu y'umukara, hakaba hari n'undi ufashe ingofero mu ntoki.

Abantu beza cyane, abantu birabura, bagiye batandukanye. Harimo umukobwa uri kwambuka, ufite imisatsi myiza cyane, miremire y’umukara, wambaye ikanzu y’umukara, ufite agasakoshi mu kaboko k’ibumoso. Imbere ye gatoya, hakaba hariho umumotari wambaye kasike y’umutuku, ihetse umugenzi.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye harimo umwe wambaye ingofero y' umuhondo, wambaye ishati yamaboko ya burubulake, n' ipantaro ya burubulake n' inkweto nziza cyane z' umukara bahagaze ku mapave hirya ye gato hakaba hariho ibyatsi bitandukanye.

Abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye harimo abana ndetse n'abakuru. Imbere yabo gato hariho abasirikare babiri bahagaze, umwe muri bo afashe mikoro ari kuvuga, imbere ye hariho abakecuru biteze ibitambaro.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo uwambaye ishati y'umweru, imbere ye hakaba hariho imashini iri kwakamo umweru, imbere hakaba hariho abapolisi bambaye iby'umukara, hirya gato hakaba hariho umugabo wambaye ikositimu n'ishati y'umweru.

Abasirikari beza cyane abasirikare benshi bagiye batandukanye birabura, hino gatoya hariho uwambaye ingofero y'icyatsi wambaye ishati y'amaboko y'icyatsi, n'ipataro y'icatsi ndetse n'inkweto z'umukara, hirya gatoya hakaba hariho n'abandi bambaye ingofero zigiye zitandukanye z'icyatsi, ndetse n'indi iniforume y'icyatsi ndetse n'inkweto z'umukara.

Abantu abantu bagiye batandukanye abantu birabura harimo umupolisi, hakabamo umusirikari, abo bose bicaye ku ntebe z'ibiti imbere gato hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, imbere ye hariho abantu benshi bari kumukurikira.

Abantu bagiye batandukanye harimo nk'umusirikare uhagaze ufite mikoro mu ntoki, hirya ye gatoya hakaba hariho umupolisi wambaye probraka uri kwandika mu gakayi ke, hirya ye gato hakaba hari undi wambaye akajiri k'umukara n'agapira k'ubururu, hirya hari undi wambaye ikositimu ndetse n'ibumoso hakaba hari undi wambaye ikositimu n'ishati y'ubururu.

Abantu benshi bagiye batandukanye. Hariho umudamu wambaye linete, ndetse akaba afite umusatsi mwiza cyane, muremure w’umukara. Hirya ye gatoya, hakaba hariho uwambaye imyenda y’icyatsi. Hirya ye gatoya, hakaba hariho umugabo ufite uruhara, wambaye ishati y’umweru y’amaboko.

Abantu abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, abantu bari mu mazi bari koga. Hirya gato hakaba hariho ubwato, ubwato tukaba tubwifashishwa turigutwara ibintu n'abantu mu mazi.

Imbwa nziza cyane, imbwa ifite ibara rigiye gusa umuhondo, ndetse n'iry'umukara. Imbere yayo hakaba hariho ivarisi nziza cyane. Ivalisi y'umukara irimo imyenda itandukanye, ikaba irambitse ku makaro

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, inzu ifite ibara rigiye gusa n'umweru imbere gatoya, hakaba hariho abagabo bagiye batandukanye, harimo uwambaye imyenda ya buru buraka, inkweto z'umukara, imbere ye gatonya hakaba hariho imashini.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye birabura, harimo imbere yabo amavarisi meza cyane, harimo ay'umutuku ya buruburaka n'ay'umukara ari mu mapave meza cyane, bakaba bambaye nabo buruburaka n'abapolisi.

Abantu, abantu beza cyane, abantu benshi bagiye batandukanye birabura, harimo umupolisi wambaye imyenda ya buru buraka n'ingofero ya buru buraka wirabura, inyuma yabo hakaba hariho abadaso benshi cyane bambaye iniforume y'icyatsi.

Abantu benshi, abantu bagiye batandukanye harimo umudamu mwiza cyane wirabura, ufite imisatsi y'umukara wambaye ikoti ry'umutuku ufashe mikoro. Imbere ye gatoya hakaba hariho ameza cyane akoze mu biti, ku ruhande rwe hakaba hariho umusirikare mwiza cyane wirabura.

Abantu beza cyane, abantu birabura, harimo umugabo mwiza cyane wirabura, wogoshwe urupara, wambaye ishati igiye gusa n'umweru n'ipantaro ya kaki. Inyuma ye gatoya hakaba hari umudamu mwiza cyane ufite imisatsi myiza cyane y'umukara. Bakaba bicaye mu ntebe z'umutuku.

Abantu beza cyane ,abantu birabura bagiye batandukanye, harimo umugabo mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara, wambaye na lunete, ufite ikaramu mu ntoki ,hirya hakaba hariho undi mugabo wambaye ishati y'amaboko y'ubururu nziza cyane, hirya hakaba hariho n'undi wambaye agapira k'umweru keza cyane ,imbere ye hariho icupa ry'amazi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye birabura. Imbere gato hariho umukobwa mwiza cyane ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikanzu y'umukara. Imbere ye gato hakaba hariho abandi bambaye amatabuririya asa n'umweru, bafite n'imisatsi myiza cyane y'umukara.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umudamu ufite imisatsi myiza cyane miremire, wambaye kositimu y'umukara ufite ibiganza byirabura, hirya gato hakaba hariho umugabo wambaye kositimu y'ubururu, inyuma yabo hakaba hariho abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye birabura. Harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, ndetse akaba afite n'ikayi, yambaye ikoboyi n'inkweto z'umukara. Hirya ye gato hakaba hariho n'undi afashe telefoni mu ntoki, n'ikaramu, ndetse n'ikayi. Inyuma yabo gato hakaba hari umudamu wambaye ikanzu y'umutuku.

Abantu beza cyane, abantu birabura, abantu b'ababyinnyi harimo umwe ufite icumu ryiza cyane rikoze mu biti ndetse akaba afashe n'ingabo mu kiganza cye cy'ibumoso, imbere ye gatoya hakaba hariho n'undi utambaye hejuru wambaye imisatsi y'umweru.

Abana beza cyane abana birabura bagiye batandukanye, harimo umwe utambaye hejuru wambaye ikabutura y'umukara n'ibirenge. Hakabaho n'undi wasimbutse urukiramende wambaye agapira k'umweru, inyuma hakaba hariho n'abandi batambaye hejuru.

Ababyinnyi, ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi birabura, ababyinnyi bambaye imisatsi y'umweru, bamwe muri bo bafashe amacumu, harimo uw'imbere ufashe ingabo mu biganza bye, iyi mbyino ikaba ari imbyino gakondo, iyo bari kubyina.

Ingoma nziza cyane ingoma zitandukanye ingoma zifite uruhu rufite ubwoya bugiye gusa n'umukara nko hagati hakaba hasa umweru hirya gato hariho umuzungu ufite imisatsi myiza cyane miremire wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ijipo igiye gusa n'umutuku hirya ye gato hakaba hariho undi muzungu ufite imitatsi y'umweru miremire.

Abantu beza cyane, abantu birabura, harimo umugabo wambaye ishati igiye gusa n'ubururu, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, hirya ye gatotoya hakaba hariho undi wambaye agapira kagiye gusa n'umuhondo, imbere yabo gatotoya hakaba hariho ikibindi kirimo umusururu.

Ibirago byiza cyane, ibirago bifite ibara rigiye gusa n'umweru, biri ku butaka bwiza cyane bugiye gusa n'umuhondo, ibirago tubyifashisha tubiryamaho, kandi tukabyifashisha tubyorosa ibintu bigiye bitandukanye.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura, umuntu ufite ikiganza kirabura uri gucuranga iningiri, ingiri ifite imirya myiza cyane iningiri ni igikoresho cy'abakera bakoreshaga bari gucuranga, cyiza cyane, gisohora amajwi meza cyane.

Ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi bagiye batandukanye, ababyinnyi birabura, hariho ufite imisatsi y'umweru ndetse akaba afasha ingabo mu ntoki, ndetse akaba afashe n'icumu mu ntoki. Inyuma ye hariho abandi babyinnyi bagiye batandukanye bafite imisatsi y'umweru.

Ababyinnyi, ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi birabura, bose bafite imisatsi y'umweru, bamwe muribo bafite n'amacumu bose bahagaze mu butaka bwiza cyane.

Ikibindi cyiza cyane ikibindi gishaje ikibindi cyahongutseho mo indani hakaba harimo umusururu mwiza cyane w'umusemburo, umusururu hakaba harimo imiseke igiye itandukanye. Umusururo bakaba bawunwa ndetse wawugurisha, ukabona n'amafaranga.

Abantu beza cyane abantu birabura harimo abagabo babiri bakenyeye, ndetse hirya yabo hariho undi urebye inyuma wicaye mu ntebe y'umuhondo. Imbere yabo gato hariho ifunguro ryiza cyane harimo imyumbati. Imyumbati zidutera imbaraga hakabamo n'ibihaza ibihaza bigira poroteyine.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birabura, harimo umugabo wazamuye ukuboko afite imirishyo mu ntoki uri kuvuza ingoma. Hirya ye hakaba hariho umukobwa uri gucurira wirabura, hirya ye gatoya hakaba hariho undi mugabo wambaye ishati igiye gusa n'umuhondo.

Inkono nziza cyane, inkono z'abakera, inkono zifite ibara rigiye gusa n'umukara ziri ku ubutaka bwiza cyane bugiyegusa n'umukara hirya hakaba ariho amabuye menshi atondetse, inkono tukaba tuzitekamo ibintu bigiyr bitandukanye hari nko gutsimbamo ibishimbo.

Ibiryo byiza cyane ibiryo bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, hakabamo ibihaza, hkabamo n'amajeri, hakabamo n'ibigori, hakabamo n'ibijumba ndetse n'ibindi biryo bitandukanye. Iyi ndyo ikaba idufasha mu kugira ngo dukore neza, ibijumba bikaba bidufasha mu kugira imbaraga, ibishyimbo mu kuduha poroteyine, ndetse n'imboga kugira ngo ziturinde indwara.

Abantu beza cyane, abantu birabura. Harimo uwambaye ishati yumweru, wambaye ikabutura igiye gusa na kaki wirabura, amaguru yirabura, uhagaze mu muvure uri gusya ibitoki akoresheje ibirenge. Hirya yaho gato hakaba hariho amakoma meza cyane, hariho n'udukweto twiza cyane twa siripa tw'umutuku.

Inka inka nziza cyane, inka zifite amahembe y'umweru ndetse zigiye gusa n'umukara, hirya gatonya yazo hariho umugabo wambaye ingofero yumukara wambaye ishati y'amaboko ndetse ukenyeye imikenyero bahagaze mu twatsi twiza cyane tw'icyatsi.

Inka nziza cyane, inka zifite ibara ry'umukara, zifite amahembe meza cyane, amahembe maremare, amahembe y'umweru. Zikaba ziryamye zose kumurongo, ziryamye mutwatsi twiza cyane twumye.

Ingoma nziza cyane, ingoma ifite uruhu rugiye gusa n'umukara rurimo akeru gake. Ndetse hejuru yayo hakaba hariho imirishyo igiye gusa umuhondo, ikaba iteretse ku kantu kagiye gusa n'umweru, kari ku butaka bugiye gusa n'umuhondo.

Igikoreshoti cyiza cyane, igikoresho gikoze mu biti kiriho n'utwuma, igikoresho abenshi twifashisha turi gutega imbeba, igikoresho twita agakoco. Agakoco tukaba tukifashisha turi gutega ibintu bigiye bitandukanye harimo n'imbeba, kugira ngo zitajya ziturira imyenda.

Umugabo mwiza cyane, umugabo wirabura, ufite ubwanwa bwirabura, ufite imisatsi myiza iconze neza, umugabo ufite amaboko yirabura, wambaye nk'abakera, akaba afite n'amaso agiye afite imboni y'umukara.

Inka nziza cyane, inka zifite amahembe meza cyane, amahembe maremare y'umweru, inka zikaba ziri gushoka amazi meza cyane, hirya gato y'inka hakaba hariho umugabo wambaye ingofero, wambaye n'agapira k'umweru, ukenyeye inkenyero zigiye gusa n'umweru.

Ababyinnyi beza cyane. Ababyinnyi babigize umwuga, ababyinnyi bafashe amacumu ndetse harimo n'abafashe ingabo bafite imisatsi z'umweru inyuma bambaye imyenda y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima, imbere gato hariho umuvure. Umuvure tukaba tuwifashisha duheramo inka amazi, ndetse tukawifashisha turi gutegura inzoga ziva mu mineke.

Inzu nziza cyane, inzu ifite sima, inzu iteye irangi risa n'ubururu bwijimye. Ku nzu hakaba hegetseho ingobyi, ingobyi akaba ari igikoresho abakera bakoreshaga bari gutwara abarwayi kwa muganga.

Ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi birabura, ababyinnyi bagiye batandukanye. Uw’imbere ufite icumu ryiza cyane rikozwe mu giti, n’imisatsi y’umweru, wambaye amayogi. Ndetse n'inyuma ye hakaba hariho undi ukenyeye akantu ku mweru, wambaye n’umutuku, hasi akaba yambaye n’amayogi.

Inka nziza cyane zitandukanye, harimo zimwe zifite amahembe ndetse n'izindi zitayafite zikaba ziri gushoka amazi, inyuma ya zo hakaba hariho ibiti byiza cyane, ibiti biririmo bimwe mu birwanya isuri ndetse bikaduha umwuka mwiza.

Ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi bagiye batandukanye, harimo umwe wazamuye amaboko ufashe icumu. Hirya ye hakaba hariho n'undi na we wazamuye amaboko, ukenyeye imyenda y'umweru. Inyuma yabo hakaba hariho abantu benshi babashungereye, ndetse n'inyubako nziza cyane ya nyakatsi.

Inyayamaswa nziza cyane, amatungo meza cyane abantu benshi bakunda korora amatungo bita inka. Inka ufite mabarara agiye gusa n'umutuku hirya gatonya hakaba hariho ubwatsi bwiza cyane busa n'icyatsi.

Akazu keza cyane, akazu ka nyakatsi hirya y'akazu gatoya hariho indabyo nziza cyane z'igiye zitandukanye, hirya y'indabyo gatoya hariho ibiti byaro n'ubusingiza cyane bifite amababi y'icyatsi ibiti bidukurura umwuka mwiza ndetse tukaba tubikuramo n'inyungu zo gucana.

Ababyinnyi beza cyane, ababyinnyi bagiye batandukanye bari kubyinira imbere y'inzu ya nyakatsi, imbere gatoya hakaba hariho umugabo warambuye amaboko ufite icumu mu kaboko k'iburyo, ndetse n'inyuma hari abandi babyinnyi bagiye batandukanye.

Umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura ufite ibiganza byirabura, umudamu witeze agatambara k'umweru, wambaye agapira kagiye gusana n'umuhondo, akaba yicaye ku kirago inyuma hakaba harimo ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo ibigoni byumye ndetse n'ibisheke.

Umugabo, umugabo mwiza cyane, umugabo wirabura, umugabo ufite ibiganza byirabura wambaye akajire k'umuhondo, wambaye agapira k'umukara gafite amaboko arimo akeru, wambaye ipantaro y'umukara ufite n'agakapu kagiye gusa n'umukara.

Ibihaza byiza cyane, ibihaza bifite ibara ry'icyatsi, ibihaza biteye mu butaka bugiye gusa umuhondo. Ubutaka budapfa kwera, ibihaza bikaba birimo bimwe bigira proteyine ndetse birinda indwara.

Umugabo mwiza cyane, umugabo wirabura, umugabo ufite umusatsi w'umukara, ufite ibiganza byirabura, ufashe umwambi mu ntoki ze, wambaye ikositimu igiye gusa n'umukara, n'umwambi ukaba ufite akabara kajya gusa n'umuhondo.

Akazu keza cyane, akazu kubatse muri nyakatsi. Hijya y'ako gato hakaba hari intoke zitandukanye zifite amashami meza cyane asa icytsi. Biri mu butaka bwiza cyane bwenda gusa n'umutuku. Ibitoki bikaba bitanga proteyine. Ndetse ubijyanye ku isoko wabigurisha bakaguha amafaranga.

Uduseke twiza cyane, uduseke tugiye dutandukanye, harimo udufite ibara ry'umweru, n'ak'umutuku, harimo n'ibyibo bigiye bitandukanye, bifite nabyo ibara ry'umweru n'iry'umukara, tukaba tubyifashisha turi kubikamo ibintu, igihe tugiye gusura abantu bagiye batandukanye.

Iforomo nziza cyane iforomo bakoresha bari gukora amatafari, yubatse mu biti irambitse kuri sima nziza cyane, sima igiye gusa n'ubururu iforomo tukaba tuyifashisha turi gukora amatafari agiye atandukanye.

Abantu beza cyane abantu birabura abantu bafite ibiganza byirabura, abantu bafite imisatsi y'umukara myiza cyane iconze neza, inyuma yabo hakaba hariho amazi menshi cyane agiye atandukanye.

Umusaza mwiza cyane, umusaza wirabura, umusaza ufite uruhara, umusaza ufite imvi, umusaza ufashe agakoni ufite ibiganza byirabura, umusaza wambaye nkabakera, umusaza ufite itabi mu kanwa ke, inyuma ye hari ibyatsi by'icyatsi bigiye gutandukanye.

Igihaza cyiza cyane, igihaza gifite ibara ry'icyatsi, gifite imigozi yumagaye ndetse igihaza kikaba kidufasha, tukifashisha mu mafunguro yacu ya buri munsi, kuko kigira poroteyine ndetse tukaba twakigurisha tukabona n'amafaranga.

Itara ryiza cyane itara ry'umweru, itara ryaka cyane rifite ako munsi ndetse rikagira akantu kagiye gusa icyatsi. Itara tukaba turyifashisha turikubonesha ari nijoro.

Ikiraro cyiza cyane, ikiraro cyubakishije sima mumpande, ndetse cyubakishije amatafari ahabanza. Kikaba kiriho imigozi igiye itandukanye, ndetse n'inkingi zishushanyijeho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda harimo: ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu ifite amabati agiye gusa n'umutuku, ndetse ikaba ifite inkingi zirimo akabara k'umuhondo n'ak'umutuku, ikaba ifite irangi ry'umweru, ifite igipangu gifite ibara ry'umweru, ndetse imbere yaho gatoya hakaba harimo abantu bahagaze mu mapave.

Inzu nziza cyane, inzu zigeretse, zifite imbere giririyaje, zigiye gusa n'icyatsi ndetse zikagira n'inzugi z'icyatsi, inkingi z'umweru. Imbere yazo gatoya hakaba hariho abantu bagiye batandukanye, hariho abambaye ingofero z'umweru.

Umuhanda mwiza cyane umuhanda wa kaburimbo umuhanda urimo uturongo ku ruhande w'umweru ndetse hagati hakaba harimo n'uturongo tugiye dutandukanye, umuhanda ukaba usa umukara hirya gatonya hakaba hariho ubutaka bwiza cyane ubutaka busa umuhondo buriho ibiti bitandukanye bifite amabara y'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu zegeranye inzu zubakishije amatafari ahiye, inzu zose zifite amabati y'umutuku, ndetse zikagira n'imiryango n'imiryango y'umweru, imbere gatoya hakaba hariho utwatsi two hejuru.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu ifite akabara hejuru imbere k'umweru, ndetse ifite amabati y'ubururu, inzu iri ahantu heza cyane hari ubwatsi bwiza cyane, ndetse n'ibiti byiza cyane.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu ifite irangi rigiye gusa n'umutuku, inzu ifite ingazi nyinshi cyane, nazo zifite irangi rigiye gusa n'umutuku, imbere y'iyi nzu hakaba hariho amapave menshi agiye atandukanye.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yinzu gato hariho akayira keza cyane, akayira k'amapave, n'uturabyo twiza tw'icyatsi, inzu ikaba ifite umuryango ugiye gusa umutuku.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu imbere yubakishije sima nziza cyane, ifite irangi rigiye gusa n'umweru, handitseho adeperi egirize de petekote Nyakabanda.

Inzu nziza cyane inzu yubakishije amatafari ahiye. Inzu ifite amabati at ukura, hirya y'inzu gato hakaba hariho abantu bagiye batandukanye abirabura. Imbere kandi hakaba hariho n'imodoka zigenda zitandukanye hariho imodoka y'umukara.

Inzu nziza cyane, inzu ifite amabati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, ndetse yubakishije amatafari ahiye. Hasi hari sima, imbere gatoya hakaba hariho idarapo ryiza cyane ry'igihugu cy'u Rwanda, ririmo ubururu, umuhondo n'icyatsi. Riri mu twatsi twiza cyane tw'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye. Ino nzu gatoya hakaba hariho umuhanda mubi cyane, umuhanda w'itaka, umuhanda utapfa kunyuramo imodoka iyo ariyo yose uko yiboneye. Hakaba harimo utumodoka tw'umweru twiza cyane.

Umuhanda, umuhanda mwiza cyane, umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda urimo akarongo k'umuhondo, ku ruhande gato rw'umuhanda hariho ibipangu. Icy'ibuburyo ndetse n'icy'ibumoso. Umuhanda tuwifashisha mu gutwara ibintu ndetse n'abantu.

Abantu beza cyane, abantu birabura, abantu batandukanye. Harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko y'umweru, wambaye linete z'umukara. Hariho undi mugabo wambaye ikositimu nziza cyane y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru n'amarinete y'umukara. Hirya hakaba n'undi mudamu ufite imisatsi miremire wambaye linete.

Umukecuru mwiza cyane, umukecuru wirabura, umukecuru ufite ikiganza cyirabura, umukecuru ufashe agakoni mu ntoki, umukecuru wambaye mwamini z'umuhondo, umukecuru uri kugendera mu kayira keza cyane gaharuye, hirya ye hakaba hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu igeretse, inzu iriho ikimenyetso cy'umusaraba. Imbere y'inzu gato hakaba hariho parikingi zigiye zitandukanye, zicishije uturongo tw'umweru. Hirya gato hakaba hariho imodoka z'umukara, imbere gato hakaba hariho amapave agiye atandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu zubakishije amatafari ahiye, imbere gato zikaba zifite giriyaje zigiye gusa n'ubururu, hakaba hanitse kuvurori y'umutuku hirya gato hakaba hariho ibiti byiza cyane by'icyatsi.

Inzu, inzu nziza cyane yubakishije amatafari gahiye. Ifite amabati ashaje, imbere yayo gatoya hariho idarapo ryiza cyane ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo ubururu, umuhondo, n'icyatsi. imbere gatoya hakaba hariho ibyatsi byiza cyane bifite ibara ry'icyatsi.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye agiye gusa n'umuhondo, imbere y'inzu gato hakaba hariho igipangu cya giriyage zigiye gusa ubururu, imbere y'inzu hakaba hariho n'abantu bagiye batandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu igeretse ifite inkigi zifite irangi rigiye gusa umuhodo, ndetse inzu yubakishije amatafari ahiye. Hino gatoya hakaba hariho umucanga. Inzu tukaba tuzifashisha tuzituramo, ndetse tukaba tuzifashisha mu kubikamo ibintu.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite umusaraba hejuru, yanditseho "Paruwase Rwaza", imbere yayo gatoya hakaba hari icyapa kinini cyane cy’umusaraba. Imbere yaho gatoya, hakaba hariho n’ikigega cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu zubakishije amatafari ahiye, imbere y'inzu gato hariho amapoto, amapoto ariho amashanyarazi, insinga z'amashanyarazi, imbere gato hakaba hariho umuhanda mwiza cyane, umuhanda wa kaburimbo, umuhanda w'umukara, umuhanda tukaba tuwifashisha turi gutwaramo ibintu n'abantu.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima inzu ifite irangi ry'umuhondo hejuru, hasi ikaba ifite irangi ifite inkingi zifite ibara ry'umweru, imbere y'inzu gato hakaba hari imodoka nziza cyane imodoka y'umukara ifite amatara y'umutuku, imbere gato hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo ubururu, umuhondo n'icyatsi, ndetse n'izuba mu bururu, imbere gato hakaba hari umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umuhondo.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amabuye. Inzu ifite amabati meza afite ibara ry’umutuku. Hino gatoya, hariho umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane, urimo hagati uturongo tw’umuhondo, ndetse no ku ruhande akarongo k’umweru.

Inzu nziza cyane, inzu ya erisede, inzu ifite amabati agiye gusa umutuku, inzu ifite inegisi, hino gatoya yubakishije sima, hino gatoya hakaba hariho n'indi nzu nziza cyane yubakishe sima, ifite amabati y'umweru, ifite igipangu kigiye gusana n'ubururu.

Abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye, hariho umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara watebeje ishati ye. Inyuma ye hakaba hari inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite giriyaje zigiye gusa n'umutuku, ziri mu madirishya.

Abantu benshi cyane, abantu beza, bagiye batandukanye birabura, hari umusaza mwiza cyane ufite uruhara n'ubwanwa, ubwanwa bw'umweru, ufashe mikoro y'umutuku mu ntoki ze, wambaye ikositimu. ku ruhande rwe hakaba hariho undi mugabo wirabura mwiza cyane, ufashe agaka mu ntoki.

Abantu benshi abantu bagiye batandukanye hino gato hariho umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura umudamu ufite imisatsi miremire. Hirya gato hejuru hakaba hariho umugabo urambuye akaboko umugabo wirabura wambaye ingofero y'umutuku, imbere gatoya hakaba hariho umugabo wundi wambaye agapira k'icyatsi.

Abantu benshi cyane, abantu birabura, harimo umudaso wambaye ingofero y'icyatsi ni'shati y'icyatsi, inyuma ye hakaba hari umudamu mwiza cyane uhagaze, wambaye ikanzu y'umukara. Bose bakaba bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu, abantu birabura, abantu bagiye batandukanye harimo umukecuru wirabura wazamuye amaboko. ku ruhande rwe hakaba hariho umudamu witeze igitambaro cy'umutuku na we uri gukoma mu mashyi, hirya ye hakaba hariho undi wambaye igitenge cy'icyatsi.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye, harimo umusaza mwiza cyane ufite akaboko kirabura, wambaye ikoti ry'umukara, ufashe mikoro mu kiganza cy'iburyo. Imbere ye gato hakaba hariho undi wambaye agapira k'amaboko k'ubururu, bakaba bicaye mu ntebe nziza cyane z'umutuku.

Abantu benshi abantu bagiye batandukanye, abantu birarabura, harimo umwe wicaye imbere kuri moto wambaye itaburiya y'umweru, wambaye na kasike y'umweru n'amaboti y'umweru, inyuma hakaba hariho abandi bambaye amataburiya y'umweru bicaye mu kamodoka.

Imodoka nziza cyane, imodoka yubururu, imodoka ihetse umucanga. Imbere yayo gato hakaba hariho n'indi yumweru. Imodoka ifite amapine y'umukara, iri mumuhanda mubi cyane, imodoka tukaba tuzifashisha mu gutwara abantu n'ibintu.

Inzu nziza cyane, inzu yubatse neza, inzu ya sima imbere ifite amakaro ndetse imbere y'ayo gatonya, hakaba handitseho ngo karasike, hasi hakaba handitseho ngo werikamu, imbere yaho gatonya hakaba hariho umuntu wambaye bote z'icyatsi, hirya gatonya hakaba hari umuhanda mwiza cyane urimo uturongo tw'umweru twa kaburimbo.

Imodoka nziza cyane, imodoka z'umukara, imodoka zigiye zitandukanye, harimo n’abamotari beza cyane, harimo uwambaye kasike y’umukara, n’abambaye kasike z’umutuku. Kandi umuhanda ukaba udufasha kudutwariramo ibintu ndetse n’abantu.

Inzu nziza cyane. inzu iteye sima, irangi rijya gusa n'umuhondo, yanditseho icyapa cya emutiyene cy'agatonyanza. hakaba hariho imodoka nyinshi cyane. imodoka z'mweru zigiye zitandukanye imodoka. tukaba tuzifashisha turi gutwara abantu n'ibintu.

Imodoka nziza cyane imodoka ifite ibara ryiza cyane y'umutuku, ifite amapine y'umukara ikaba ihetse ibintu by'ibiribwa tandukanye. Harimo karoti hakabamo inyanya, hakabamo ibitunguru, hakabamo burokoli., n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu ya sima, inzu iteye irangi ry'icyatsi, hariho icyapa cyanditseho tigo kashi, imbere y'inzu gato hariho umutaka w'umutuku, imbere y'umutaka hariho umugabo wambaye agasengeri ufashe n'igare, imbere ye gato hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abamotari ndetse n'abandi, hariho uwambaye akajiri ka emutiyene w'umu ajeti, hino gatonya hakaba hariho umumotari uhetse, umuntu wambaye ikositimu n'ipantaro yayo, bigiye gusa n'umuhondo cyangwa se umweru.

Umudamu mwiza cyane, umudamu wirabura, ufite akaboko kirabura, n'agapira k'umweru karimo uturongo tw'ubururu, ndetse wambaye igitenge hasi akaba yiteze igitambaro kirimo n'umweru, kirimo uturongo tugiye gusa n'ubururu. Imbere ye hakaba hariho igare rihetse matela n'ibindi bikoresho.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije ibirahuri ku madirisha ndetse no ku miryango yayo, bikaba ari byiza cyane mbere yaho gatoya hakaba hariho umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara izinze, wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, imbere ya gatoya hariho abamotari benshi bari kureba inyuma.

Inzu nziza cyane, inzu zigiye zitandukanye, inzu zifite amabara y'umuhondo, inyuma yayo hakaba hariho indi ifite icyo hejuru cy'amabati cy'ubururu. Imbere y'inzu y'umuhondo hakaba hariho imodoka y'umweru ya twegerane, mu muhanda hakaba harimo umuntu uri gusunika igare n'undi uri kugendesha amaguru.

Inzu inzu nziza cyane inzu ya sima ifite irangi rigiye gusa n'umuhondo, imbere y'inzu gato hakaba harimo umuhanda, umuhanda mwiza cyane. Umuhanda w'umukara umuhanda wa kaburimbo urimo akarongo k'umweru hakaba harimo imodoka zitandukanye ebyiri zifite ibara ry'umweru. Imodoka tukaba tuzifashisha turi gutwaramo abantu

Imodoka nziza cyane, imodoka y'umweru ifite hasi hasa n'icyatsi yanditseho Ritiko. Imodoka ihagaze mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ufite uturongo tw'umweru ku ruhande, imodoka tukaba tuzifashisha turi gutwara abantu n'ibintu.

Abantu, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura harimo abambaye iniforume y'umweru hejuru, hasi bakaba bambaye kaki, muri bo harimo abahetse ibikapu by'umukara, hino gato hari n'uwiteze agatambaro k'umuhondo.

Imodoka nziza cyane, imodoka y'umukara, hirya gatonya hakaba hariho indi y'umweru, hino hato hakaba hariho umumotari mwiza cyane, wambaye ikositimu y'umukara na kasike y'umutuku, uri ku moto nziza cyane igiye gusa n'umutuku, moto tukaba tuzifashisha dutwara abantu.

Imodoka nziza cyane, imodoka ifite ibara ry’umweru. Ifite ibirahuri bibonerana, ndetse bifite akabara kagiye gusa n’umukara hejuru. Hakaba hari umudamu uri kuyiherezamo esanse, wambaye akajire kagiye gusa n’icyatsi, wambaye ipantalo y'ikoboyi n’inkweto z’umukara, uhagaze mu mapave.

Abantu, abantu beza cyane, abantu benshi bagiye batandukanye, imbere yabo hariho imodoka zigiye zitandukanye zifite ibara ry'umweru. Zimwe zanditseho volukano, ikorwa hirya yazo gato hakaba hariho izindi nazo zirebye mu ruhande rwo hepfo.

Abantu bagiye batandukanye harimo umugabo umwe wambaye umupira w'umutuku, ufashe ingorofani iriho amabati ashaje agiye atandukanye, hirya gato hakaba hari undi wambaye ingofero y'umweru na kositimu y'umuhondo n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'icyatsi.

Abantu beza cyane, abantu birabura harimo umugabo wambaye ipantaro igiye gusa n'ubururu, wambaye agapira k'umutuku n'ingofero y'umutuku. Ufite ibiganza byirabura uhetse undi ku igare wicaye k'undebe ugiye gusa n'umutuku' wambaye umupira w'umukara n'ipantaro.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birabura harimo umugabo uri gusunika igare wikoreye amata. Hirya ye hakaba hariho n'undi muhungu wambaye umupira w'ubururu, uhetse ibisheke bigiye bitandukanye harimo iby'umuhondo ndetse niby'umukara. Inyuma ye hakaba hariho imigano nyinshi igiye itandukanye.

Imodoka nziza cyane, imodoka nyinshi, imodoka imwe ifite ihema hejuru ry'ubururu, hino gatoya yayo hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo. Inyuma yayo hakaba hari akamodoka gatoya gafite ibara ry'umweru, zikaba ziri mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka nziza cyane imodoka z'umweru zirimo akabara k'umuhodo, zifite amapine y'umukara, imodoka turazikoresha cyane kuko zikoreshwa mu gutwara abantu ndetse tunatwara n'ibintu bigiye bitandukanye.

Hoho, imodoka nziza cyane, imodoka ifite ibara ry'umutuku, ikagira amapine meza cyane y'umukara hikoreye umucanga imagira cyane ry'ubururu, aba yifashishwa mu gutwara umucanga ndetse no gutwara amatafari, imodoka ik

Umugabo mwiza cyane, umugabo wirabura ufite ibiganza byirabura, uzamuye amaboko wambaye agapira kagiye gusa n'umutuku, kanditseho adidasi wambaye isaha nziza cyane y'umukara.

Umugabo mwiza cyane. umugabo wirabura ufite imisatsi y'umukara ndetse n'ubwanwa bwumukara wambaye agapira k'umukara n'amagisiumukara nyuma ye gato hakaba hari imodoka nziza cyane. imodoka tukaba tuzifashisha turi kuzigenderamo.

Umupira mwiza cyane, umupira ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, umupira munda handitseho emuviyeyi gatatu zeru zeru, umupira wa vole, umupira baka bawifashisha bari gukina umukino wa vole bolo.

Umugabo, umugabo mwiza, umugabo wirabura, wambaye agasengeri k'umutuku, wambaye n'ikabutura itukura, wambaye inkweto z'umukara ufite n'icumu. Inyuma ye hari abantu benshi bari kumureba.

Umuhanda mwiza cyane, umuhanda wa kaburimbo. Umuhanda urimo uturongo tugiye gusa umuhondo. Hirya gatoya, hariho icyapa cyanditseho "Ayironiyani". Ndetse hino gatoya, hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo ubururu, umuhondo n’icyatsi.

Amazi meza cyane amazi ari muri pisine nziza cyane, igiye gusa n'ubururu yubatse, ku ruhande hariho ibiti hino gato hakaba hariho amabuye meza cyane agiye gusa n'umweru, hirya gato hakaba hariho ibiti bigenda bitandukanye bifite amabara y'icyasti, ibiti bikaba biduha umwuka mwiza ndetse bikaba birinda n'isuri.

Amazi meza cyane amazi ari ahantu hagiye gusa n'ubururu amazi ya pisine. Amazi akaba yifashishwa mu kugatekesha ndetse abantu barayoga hirya gatoya hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye.

Abakinnyi beza cyane, harimo uwambaye jezi y'ubururu yanditseho gatatu n'ikabutura y'ubururu, ndetse hakaba hariho n'abandi bafatanye babiri; umwe wambaye umunani mu mugongo, undi akaba yambara cumi na karindwi ku kaguru akaba arambuye akaboko afashe umupira wa hendi.

Ikibuga cyiza cyane, ikibuga gifite ibara ry'umutuku. Ikibuga kirimo aho bakinira basiketi ndetse n'aho bakinira vore. Hirya yacyo gato hakaba hariho ibiti bitandukanye. Ibiti tukaba tubyifashisha turi gukuramo inkwi ndetse n'amakara.

Abantu, abantu beza cyane, abantu birabura, abantu bari koga mu mumazi harimo uwambaye imyenda y'umukara, hakaba harimo uwageze mu mazi, hirya gato hakaba hariho ubwato burimo abantu birabura beza cyane.

Umukino mwiza cyane umukino abenshi tuzi nka basikete hariho abantu benshi birabura bafite imisatsi y'umukara bari gupompa balo za basikete, imbere yabo hakaba hariho undi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abakinnyi bagiye batandukanye bari gukina umukino wa basiketiboro, harimo umwe w'umukobwa ufite imisatsi myiza cyane y'umukara miremire izinze, wazamuye akaboko ufashe kuri baro ya basiketi ugiye gutereramo, ndetse hakaba hariho n'abandi babiri bari kumufata bambaye udupira tw'umukara.

Abantu beza cyane abantu birabura, harimo umwe uzamuye akaboko ufashe indabyo nziza cyane zifite ibara ryiza cyane rirya gusa umutuku, hirya gatoya hakaba hariho undi wambaye agapira k'amaboko k'ubururu, n'ingofero y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, ibumoso bwe hakaba hariho n'undi wambaye ishati y'umweru nziza cyane iriho idarapo ry'igihugu cy'urwanda, wambaye rineti mu gatuza.

Umukino mwiza cyane umukino wa vore umukino uri gukinwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo uwambaye ijezi y'umweru wanditseho cumi n'umunani mu mugongo, ndetse n'undi wanditseho icyenda mu mugongo, bambaye amakabutura y'umweru hasi ndetse bambaye n'amasogisi y'umweru.

Abantu beza cyane. abantu b'abagabo bagiye batandukanye harimo umwe wambaye ingofero y'umweru ndetse uri kw'igare hirya ye hakaba hariho n'undi wambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umweru zigiye zitandukanye hirya ye hakabaho undi wambaye kora y'umukara nawe uri kw'igare.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abambaye agapira k'icyatsi hejuru, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, hirya gatoya hariho abandi bambaye umuhondo, imbere gato hakaba hariho umuzungu ufite imvi.

Abantu beza cyane, abantu bagiye batandukanye, harimo umwana wambaye isengeri y’icyatsi yanditseho "ijana na mirongo irindwi na kabiri" n’umweru munsi gatoya, akaba yambaye ikabutura nziza cyane, ikabutura y’umukara, afite amaguru yirabura. Hirya ye gato, hakaba hari umugabo umufashe ku kaboko, wambaye ga z’umweru ndetse n’ingofero y’umukara.

Baro nziza cyane, baro igiye gusa n'umutuku, baro irimo uturongo tugiye gusa n'umukara, baro ya basiketi boro, basiketi boro ari umukino ukundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye.

Abakobwa beza cyane abakobwa birarabura harimo umwe ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara wambaye agasengeri k'ubururu n'ikabutura y'ubururu n'amasogisi y'umukara n'inkweto zijya gusa n'umweru afashe bari ya basiketemu biganza bye imbere hakaba n'undi wambaye agasengeri kanditseho Rwanda k'ubururu ndetse n'ikabutura y'uburu n'amasugisi y'umweru ufashe baroya basikete mu biganza.

Abantu bagiye batandukanye, abantu birabura harimo abadamu bari gukina umupira, umwe wambaye jezi irimo umuhondo ndetse n'ubururu, n'ikabutura y'ubururu n'amasogisi, gagiye gusa ubururu, n'inkweto z'umutuku.

Abantu bagiye batandukanye barimo uwambaye ijezi y'umutuku, ufashe undi wambaye ijezi y'umukara ifite amaboko n'ikabutura y'umukara, ufashe umupira wa hendi, mu izamu hakaba hariho undi wambaye ipantaro y'umukara n'agapira karimo umweru n'ubururu.

Pisine nziza cyane, pisine igiye gusa n'ubururu irimo amazi menshi cyane, ifite akabara k'umweruru. Nko hejuru ya pisine gato hakaba hariho ibyatsi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibiti birebire bigiye bitandukanye. Pisine tukaba tuyogeramo ndetse tukayirukiramo turi koga.

Umukino mwiza cyane, umukino wa hendi. Urigukinwa n'abakinnyi bagiye batandukanye umwe wambaye agapira k'amaboko k'umukara kanditsemo mu umugongo cumi na gatandatu'ipantaro yumukara ndetse n'inkweto z'umweru imbere hakaba hariho uwambaye jezi y'ubururu n'ikabutura y'ubururu wirabura wambaye inkweto z'umukara.

Abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye, harimo bamwe bahagaze mu kibuga, abandi bahagaze ku ruhande rw'ikibuga bari kubareba, harimo abambaye amashati y'umweru ndetse hasi bakaba bambaye icyatsi.

Ubutaka, ubutaka bwiza cyane ubutaka busa n'umuhondo, ubutaka burimo aho bakinira umukino wa vore. Uyu mukino ukaba udufasha mu kwinjiza amafaranga, ndetse ugatuma tumererwa neza tuwukina

Umukino mwiza cyane, umukino wa tenisi, hariho umukobwa wambaye ingofero y'umukara ufite imisatsi miremire myiza, ufite ibiganza byirabura wambaye inkweto z'umukara. Inyuma ye hariho icyapa cyanditseho rwanda openi.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo uwambaye agapira kagiye gusa umutuku n'ikabutura igiye gusa ubururu, kuhande rwe hariho abandi bambaye udupira tw'umweru ndetse n'amakabutura agiye gusa ubururu. Bakaba bose bafite imbago bari kugenderaho ndetse bakaba bari gukina umupira.

Aabakobwa beza cyane, abakobwa bagiye batandukanye harimo uwambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara birimo akarongo k'umweru ufashe baro mu ntoki ya basiketi hirya ye gato hakaba hari undi wambaye isengeri y'icyatsi wazamuye amaboko ufite imisatsi yumukara miremire izinze.

Umukobwa mwiza cyane, umukobwa wambaye rimwe mu mugongo, wambaye agapira k'amaboko kagiye gusa umutuku, n'ipantaro y' umukara n'inkweto z'umweru. Imbere ye hakaba hariho abandi bakobwa bambaye jezi z'umuhondo hejuru n'ubururu hasi, bakaba bari gukina umukino mwiza cyane wa hendi.

Abantu benshi cyane, abantu bagiye batandukanye, abantu birabura. Imbere gato, umwana wambaye agapira k’icyatsi n’ikabutura y’ubururu. Inyuma ye gatoya, hakaba hariho uwambaye agapira k’umweru n’ikabutura y’umweru, ndetse n'abambaye jezi z’ubururu hejuru no hasi amakabutura y’ubururu.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku, agapira k' icyatsi n'ipantaro y'ubururu. Hirya gatoya hakaba hariho abandi bari kwiruka, hariho uwambaye isengeri y'ubururu n'ikabutura y'ubururu, ndetse n'abandi babiri bambaye nka we. Inyuma hakaba hariho uwambaye isengeri y'umuhondo.

Abakobwa beza cyane, abakobwa ba batandukanye umwe muri bo afashe ku mupira wa basikete, undi uri inyuma ye akaba yambaye isengeri, yanditseho Rwanda y'umuhondo.

Abantu benshi, abantu bagiye batandukanye. Harimo umukobwa mwiza cyane, usutamye, ufite umusatsi, wambaye linete z'umukara. Hirya, hakaba hariho umugabo wazamuye igipfunsi, wambaye agapira k’icyatsi, n’ipantaro ya siporo, n’inkweto z’umukara.

Umukino mwiza cyane, umukino wa basiketi mu kibuga, harimo abantu bagiye batandukanye, harimo abambaye jezi z'umutuku ndetse n'abambaye jezi z'umweru, bakaba bari gukinira mu kibuga gifite ibara rigiye gusa n'umuhondo, bakurikiwe n'abandi benshi bagiye batandukanye.

Umukinnyi ufashe baro ya hendi mu ntoki, ndetse akaba yambaye na jezi y'umweru hejuru, n'ikabutura y'umukara, akaba hariho abandi babiri bamufashe bambaye umuhondo hejuru, ndetse n'ubururu ku makabutura, hariho uwambaye n'inkweto z'umukara zirimo akeru.

Amapave, amapave meza cyane, amapave yubatse neza, hirys y'amapave gato, hari ubutaka, ubutaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara, ubutaka tubwifashisha mu buhinzi, ndetse no kubuturamo.

Inzu nziza cyane inzu ifite amakaro imbere, inzu ifite ibara ry'umweru imbere y'inzu gatoya hakaba hariho umuntu uri kugenda ahetse umwana, wambaye agapira k'umukara, imbere gatoya kaba hariho irindi gare ryiza cyane ririho abantu babiri riri mu muhanda mubi cyane, umuhanda w'ibitaka urimo n'amabuye.

Inzu nziza cyane, inzu ziteye amarangi agiye atandukanye, inzu zubabakishije sima. Hejuru y'amazu gato hariho ipoto y'amashanyarazi ririho inzinga nyinshi ziturutse mu byerekezo bitandukanye, hepfo gato hariho abantu benshi bahagaze.

Ubutaka bubi cyane, ubutaka burimo umucanga mwinshi cyane, ubutaka burimo amabuye agiye atandukanye. Hirya gatoya hakaba hariho utwatsi tugiye dutandukanye. Ibyatsi tukaba tubyifashisha dukora imiti igiye itandukanye.

Umuhanda mwiza cyane, umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru, imihanda tukaba tuyifashisha mu gutwariramo imodoka, dutwara abantu ndetse dutwara n'ibintu ku buryo bugiye butandukanye.

Imodoka nziza cyane imodoka z'umweru, hino gatoya hakaba hariho umumotari mwiza cyane wambaye ikoti ry'ubururu ndetse na kasike y'umutuku, bakaba baparitse mu butaka bukomeye cyane bubi butapfa kwera.